Imbere yanjye ndahabona sare ifite dekorarasiyo y'ibitambaro byumuhondo ubururu n'icyatsi kibisi, muri yo harimo abantu bicaye ku ntebe bakikije umugabo uhagaze hagati uri kubaha ubutumwa.

Imbere yange ndahabona ihema rinini, hari abantu benshi bicayemo, bamwe bambaye imipira ya rakosite ya oranje. Imbere yabo hari umuntu ufite mikorofone ari kubaha disikuru, bari mu nama.

Imbere yange ndahabona ipoto y'amashanyarazi, irahuriraho insinga zitandukanye hariho na kashi pawa, hepfo yayo hari amazu abiri meza afite ibisenge by'umukara.

Imbere yange ndahabona icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, kikaba kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga gukatira ahongaho bahindukira.

Imbere yanjye ndahabona agashyamba k'ibiti, hakurya yako birenze, ndahabona umudugudu mwiza ugizwe n'amazu meza agezweho kandi ageretse.